Mu murima uteyemo ibihingwa aho bagaragaza imashini zorohera ibyo bihingwa hagamijwe kugira ngo bikure neza bitumye mu gihe cy'izuba. Imashini zigenda zimenamo amazi abifasha gukura neza.

Ingorofani ipakiye ifumbire. Ifumbire yifashishwa mu buhinzi mu bikorwa bya buri munsi, ndetse ikifashishwa batera imyaka itandukanye, hagambiriwe kugira ngo iyo myaka yere neza kandi itange umusaruro uhagije.

Umuti wifashishwa mu buhinzi wifashishwa mu gihe uvangwa n'amazi ugaterwa bimwe mu bwoko bw'ibimera kugira ngo wice udukoko tugenda tubisatira tugambiriye kubyangiza ngo bidatanga umusaruro..

Ubwoko bw' ifumbire yifashishwa mu gihe cy' ihinga, iyo bahinga ibihingwa bitandukanye hari aho bigera kugira ngo bitange umusaruro uhagije bakifashisha ifumbire ari n'aho dushobora kubona ifumbire runaka zitandukanye zifashishwa mu buhinzi.

Aha ni igikorwa cy'umuganda rusange. Ni inzego zose zahuye, ziri gushyira ifumbire ku gihingwa cy'ibigori.

Umuti wica udukoko uterwa indabo, aho umuti wagenewe kwica udukoko wifashishwa mu rwego rwo kugira ngo ibihingwa bigire ubuziranenge bwabyo, ndetse n'udusimba tugambiriye kubyo kubyona cyangwa kubyangiza dupfe.

Ifi yokeje. Rero ifi ni ubwoko bw'inyama iba: mu mazi magari, mu migezi, mu biyaga cyangwa se mu nyanja. Ni inyama ikunzwe cyane kandi iryoha kuko iba yuzuye intungamubiri.

Ifunguro riri ku meza riteguyeho ibintu bitandukanye birimo karoti, birimo puwavuro, biriho inyanya, biriho umuhore w'ifi utegereje kuribwa.

Ahantu hagenewe kororerwa amafi y'ubwoko butandukanye, hazwi ku izina ry'ibyuzi. Ibyuzi ni ahantu baba baratunganyije bakayoboreramo amazi, bagashyiramo isambaza cyangwa amafi bigakorwamo bijyanwa mu isoko.

Ifunguro ryamaze gutunganywa ryashyizwe ku meza aho ritegereje gufungurwa n'abantu batandukanye barigenewe.

Umurima usaruwemo ibigori ukirimo ibigorigori byawo, uyu murima ushobora guhita uhingwa ugaterwamo indi myaka cyangwa se gukarazwa ukazahingwa mu bindi bihe by'ihinga.

Igihingwa kizwi nk'inyinya, inyinya ni ubwoko bw'igihingwa cyifashishwa bakirya mu buryo butandukanye, ndetse kandi ni n'umuti bakifashisha bavura inzoka.

Inyubako yagenewe kwifashishwa mu guhunika imyaka yeze itandukanye.

Mu murima ahagaragara ibihingwa bihinze mu muririma, inyuma yaho hagaragara ibihingwa byeze, ndetse hagaragaramo n'amatungo yagiye kurisha ubwatsi buri muri iyo mirima.

Ahantu hagaragaza ibyatsi bitandukanye, umurima urajwe, uzahingwa ubutaka bwawo bumaze guhora. Ibi byatsi bishobora kwifashishwa babyahira bakabigaburira amatungo cyangwa bakaba babyahira bakabisasira amatungo.

Umurima udahinze urajwe mu rwego rwo kuwongerera ubudahangarwa mu butaka, no kwisubira k'ubutaka kugira ngo igihe uzahingirwa uzabashe kwera neza kandi utange umusaruro uhagije.

Ishamba rya gereveriya ariko zikiri ntoya ziri mubyatsi byinshi. Bigaragara ko izi ngemwe zitagemurwa ahubwo zizahakurira ari ishamba.

Igihingwa cya karote kiri mu murima, karote ni igihingwa ngandurarugo kifashishwa nk'imboga, ba ka kirya mu buryo butandukanye mu biryo byinshi bitandukanye.

Igihingwa ca karoti kigaragara mu murima; karoti ni igihingwa kimwe mu bwoko bw'imboga, kifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Mu caro ubwatsi buhenze bwifashishwa mu kugaburira amatungo cangwa gukoresha mu zindi gahunda zitandukanye nko gusasirar intoci cangwa se kubisasira amatungo.

Insina umurima w'insina inyuma yawo hari inzu ituwe. Insina ni igihingwa ngandurarugo gitanga igitoki, igitoki cyifashishwa mu buryo butandukanye gitekwa cyangwa gikorwamo imineke.

Igiti cy'isombe. Isombe ni ubwoko bw'imboga bwifashishwa mu buzima bwa buri munsi bwa muntu, ku ubasha kuyikunda ndetse no kuyirya, isombe igira intungamubiri nyinshi, kandi kuyirya ku uyishoboye bituma ubuzima burushaho kugenda neza.

Umurima uhinzemo ubwoko bw'ibishimbo bw'imbuto ngufi ndetse aho tubona n'imishingirizo y'ibishimbo by'imbuto ndende byifashishwa iyo bahinga kugira ngo bitange umusaruro uhagije.

Mu ishyamba hagaragara ibiti byinshi byo mu bwoko butandukanye, bizakoreshwa ibikorwa bitandukanye, aho bishobora gutanga inkwi zicanwa cangwa amakara yifashishwa, ndetse bikifashishwa no ku nyubako zitandukanye.

Igihingwa cy'ikinyamisogwe kitwa igishimbo. Igishimbo ni igihingwa gihingwa ahantu hatandukanye, kivamo ibishimbo bikungahaye ku ntungamubiri, zifasha ubuzima bwa muntu kugubwa neza.

Avoka ziri mu bikoresho byabugenewe bifashisha bashiramo voka zimaze gusha. Bashobora kuzigurisha cangwa bakazikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi bazija.

Ibijumba. igihingwa ngandurarugo cyifashishwa mu buryo bwinshi: kiracuruzwa kigatanga amafaranga afasha umuryango mu buryo butandukanye. Ibijumba biraribwa, mu rugo bigatekwa ndetse bigafasha umuryango kugira imibereho myiza.

Umusaruro w' ibigori uri kwanikwa ahagenewe ko wanikwa, aho umuhinzi wabyo ari kubisanza agambiriye ko byuma neza, akazabikuramo ifarini itandukanye yo gukoresha mu buryo butandukanye.

Urubuto rwo mu bwoko bwa avoka rusatuye berekana uko imbere haba hateye. Voka ni urubuto rukungahaye ku mavuta rukunda gukoreshwa n'abantu benshi kuko ruba rwuje intungamubiri nyinshi.

Avoka ni ubwoko bw'imbuto twifashishwa ku ifunguro rya buri munsi, ikungahaye ku ntungamubiri zifasha umubiri kumererwa neza ndetse zifashishwa n'abantu batandukanye kuko zigira akamaro mu mubiri w'umuntu.

Urubuto rw'ipera ni igihingwa gihingwa kikera imbuto yifashishwa mu buzima bwa muntu bwa buri munsi.

Hacururizwa ibikomoka ku buhinzi, ibikomoka ku nzuki, ibinyobwa bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, ndetse n'ibinyobwa bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Imifuka ipakiyemo ibirayi bigiye kujyanwa kugurishwa, aho ibirayi ari igihingwa cyiza cyane gikundwa n'abantu bose kuko biribwa mu buryo butandukanye ndetse ugatanga n'amafaranga atari make afasha umuryango.

Igihingwa cy'imyumbati, imyumbati ni igihingwa cyera ku ruti aho mu kugihinga batera ingeri y'agati kagakura, kakazavamo imyumbati yerera mu butaka. Aho abantu berekana umusaruro w'imyumbati wabo.

Abaturage bahuye bari mu gikorwa c'umuganda rusange, batunganya, umuhanda, bahanga umuhanda, bagambiriye kuwuhindura inzira nyabagendwa, ndetse, ukaba umuhanda utamwaye, utagayitse, ucamo ibinyabiziga bitandukanye.

Umubyeyi ufite ibiti birwanya isuri akuye muri pepiniyeri, abijanye kubitera, kugira ngo akumire ibiza ibyo ari byo byose bishobora guterwa n'imvura, hacika imirima, ishobora kumuteza ibiza.

Mu isoko hacururizwa ibirayi, ibihaza bategereje abaguzi baza guhaha ibi bicuruzwa.

Amateke igihingwa ngandurarugo gihingwa ahantu higanje amazi, iki gihingwa kiraryoha. Ushobora kugihinga kigakoreshwa, mu rugo gitunga umuryango. Cyangwa kikagurishwa kigatanga amafaranga yunganira ubukungu bw'umuryango.

Umurima wamashu ni imboga zikoreshwa mu buryo butandukanye, aho amashu ashobora gukoreshwa harimo, abisi cyangwa se agakoreshwa atetse nimboga zifasha mu buzima bwa buri munsi bwa muntu.

Mu isoko ahacururizwa umusaruro w'ibihingwa byo mu bwoko bw'imboga aho ahiganjemo intoryi, puwavuro, inyanya, amashu, byifashishwa mu buzima bwa muntu bwa buri munsi.

Mu isoko aho bacururiza amatungo magufi azwi ku izina ry'intama. Intama ni itungo rigufi ritanga ifumbire rishobora kugurishwa rigatanga amafaranga yunganira umuryango cyangwa se afasha umuryango mu iterambere.

Ahantu hagenewe gutunganyirizwa ingemwe zitandukanye hazwi nko muri pepiniyeri ,aho baturage bakura ibiti by'ubwoko butandukanye bakajya kubitera bijyanye n'icyo baba bashaka gusarura kuri byo.

Umuntu uri gukora isuku mu bihingwa by'imyaka ndetse anabishingirira kugira ngo bibone uburyo bikura neza, bitange umusaruro uhagije.

Intoryi, poivro, indimu imiteja, aha ni mu isoko aho bicururizwa, ibi ni ubwoko bw'imboga n'imbuto bukungahaye ku ntungamubiri zifashishwa umunsi ku wundi.

Inkwavu ni itungo rigufi ryororerwa mu rugo rikunzwe kuko rigira akamaro umuryango, riribwa nk' inyama ritanga ifumbire, ritanga n'amafaranga afasha umuryango, kwiteza imbere iyo rigurishijwe.

Ahantu hahurijwe umusaruro w'urubuto rwa avoka, hahuriye abantu b'ingeri zose abagabo ndetse n'abagore, baje kurangura cyangwa kugura uwo musaruro.

Pepiniyere ni ahantu hagenewe gutegurirwa ingemwe zitandukanye, zo mu bwoko butandukanye, zihava zijyanwa guterwa ahabugenewe hajyanye n'ibyo biti.

Abayobozi mu nzego zitandukanye z'ibanze, batanga ibiti by'imbuto ziribwa, babishyikiriza abaturage, kugira ngo babitere bibashe kubungabunga ubuzima bwabo bw'imibereho yabo.

Abagore bikoreye umusaruro wicayi, aho umusaruro uyu musaruro ujyanywe aho wagenewe gutunganyirizwa, kugira ngo uvemo amajane bifashisha bakora icayi.

Abantu bari mu murima bari mu gikorwa co gusarura ibirayi byeze, aho biribukurwe, byarangiza bakabipakira bakabyerekerana mu isoko cyangwa mu rugo, kubikoresha mu buryo butandukanye.

Umurima w'icyayi urimo umusoromyi wacyo cyangwa umusaruzi wacyo kigeze igihe cy'isarurwa, iyo basarura icyayi bagenda bafata utwo hejuru tukaba ari two bashyira mu gitebo, tukazashyikirizwa inganda zishinzwe ku gitunganya.

Umugore wicaye mu bunyobwa aratoranya ubunyobwa bwiza ndetse n'ubunyobwa bubi .Aho ubunyobwa bubi buvanwamo hagasigara ubunyobwa bwiza bugamijwe kugurishwa kugira ngo butange amafaranga.

Umurima w'imyumbati aho imyumbati ari igihingwa ngandurarugo cyifashishwa mu buryo butandukanye, barya imizi yabyo ari yo myumbati nyirizina, barya n'amababi yabyo ari byo bita isombe.

Umusaruro utegereje kujyanwa mu muryango cyangwa mu isoko, umufuka wuzuye umusaruro ugiye kugenda ku igare ukerekezwa mu rugo kwa kuwawuhinze cyangwa ahahurira abantu benshi gukora.

Umugore ubagara igihingwa kizwi ku izina ry'ibigori, ibigori ni igihingwa kivamo umusaruro, uwo musaruro ukavamo ifu ijyanwa mu nganda igatunganywa, izwi nka kawunga.

Umugore uvuye muri pepiniyeri gufata ingemwe z'ibiti zo gutera agamije kurwanya isuri y'umurima we.

Urubuto rwa avoka rurimo gutegurwa ngo rukoreshwe nk'ifunguro rya buri munsi, avoka ni urubuto rwiza cyane rukungahaye, kuri vitamine zifasha ubuzima bw'ururiye buri munsi.

Igikoro ni ubwoko bw'igihingwa ngandurarugo, ushobora kucyifashisha mu buryo butandukanye, ushobora kugihata ukagiteka kikaba ifunguro ryiza mu gihe urikeneye, ushobora kandi kukigurisha kigatanga amafaranga, ashobora kunganira umuryango wawe kikagufasha kwivana mu bukene ubona ayo mafaranga.

Ubuhunikiro bw'ibigori byumye. Igihingwa cy'ikigori ni igihingwa gihingwa mu butaka，kigatangira kikiri gito，ku mwero wacyo baragisarura bakagishyira ahabugenewe，hitwa mu buhunikiro， bakazakihungura bitonze， bakagikora， bakagikuramo， bakagikora mu buryo butandukanye.

Igihingwa co mu bwoko bw'imbuto kitwa ipapayi. Ipapayi ni urubuto rwiza rukoreshwa mu buryo bw'imbuto， rukaba rworosha mu nda.

Umusaruro gw'imyumbati; imyumbati ni igihingwa cyiza ndetse kiryoha cyane iyo bakigeretse ku bishyimbo kandi kikavamo kikaribwa ku bundi buryo butandukanye.

Umusaruro gwa karoti, karoti igihingwa cyiza cyane cyifashishwa nk'imboga, twifashisha mu biryo byacu kikavamo imitobe, yifashishwa bagaburira abantu batandukanye baba bakuru n'abatoya.

Avoka ni urubuto rwera ku ruti, aho avoka bayisatuye, berekana uburyo imbere iba imeze, hagamijwe kugira ngo igihingwa cya avoka kimenyekane mu buryo bwacyo.

Mu murima w'icayi aho abasoromyi b'icayi baje gusoroma icayi cyeze bagamije kugikuramo amafaranga abafasha mu kwiteza imbere, aho kijyanwa mu nganda aho gitunganyirizwa kikavamo amajyane, yifashishwa mu cayi gikoreshwa na benshi munsi ku wundi.

Icayi ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu cyifashishwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gikunda guhingwa ahantu higanje imbeho. Iyo bagisarura bifashisha isizo cyangwa se imakasi bifashisha ibitebo, bakagenda baca amababi yacyo bashyiramo kikazatunganywa n'inganda kikanyobwa n'abagikeneye.

Ishu. Ishu ni ubwoko bw'imboga bwifashishwa buribwa butetse, mu buryo butetse cyangwa se buribwa ari bubisi. Butuma ubuzimako bw'uburiye bugenda neza.

Igihingwa c'amajeri mabisi bita urunyogwe. Urunyogwe ni ikinyampeke cifashishwa mu buryo bwo kukirya, aho gitunganywa gitetswe kugira ngo kibashe kuribwa.

Umuhinzi ufashe umusaruro w'igihingwa c'ibigori mu ntoki. Ikigori ni igihingwa gihingwa mu murima kikagira umumaro mwinshi utandukanye k'uwagihinze, aho kimuha amafaranga ndetse akanakira.

Abatwaye umusaruro w'icayi bava mu murima waco berekeza ahagenewe gutunganyirizwa icayi. Icayi iyo kimaze gutunganywa, gifasha abagikunda kukibona ku buryo buboroheye, kandi kikabanezeza mu buryo bagikoresha.

Urunyogwe. Urunyogwe iyo barusarura, bagenda bashokagura imishokwe. Imishokwe iba irimo intete, iyo bagiye kuruteka baratonora, bagateka intete ziri imbere mu misogwe. Ruraryoha cyane, abantu bararukunda.

Imodoka ipakiye igihingwa cyo mu bwoko bw'ibitoke. Ibitoke ni ibihingwa ngandurarugo byifashishwa mu buryo butandukanye, aho biribwa cangwa bitetse, cangwa bikaribwa imineke, cangwa bikagurishwa bigatanga amafaranga yifashishwa mu bindi.

Ubucuruzi bw'igihingwa cy'imyumbati， imyumbati ni igihingwa ngandurarugo cyifashishwa mu buryo butandukanye， aho kiribwa gitetse cyangwa se kigakorwamo ifu zivamo ubugari.

Umurima wakorewemo ubuhinzi bw'inanasi. Ba nyiri umurima bari mu murima w'inanasi aho bari mu gikorwa cyo kwitegereza cyangwa se kwicira iki gihingwa bagamije ko gitanga umusaruro mwiza ushimishije.

Igihingwa cy'ibigori, mu guhinga ibigori hari igihe cyabyo kigera bakajyamo bakabitera umuti kugira ngo byice udukoko tuba twibasiye igihingwa cy'ibigori. Gutera umuti ibigori ni igikorwa cy'ingenzi kuko gituma bibasha kwera neza.

Igihingwa ngandurarugo. Ibihingwa ngandurarugo ni bimwe mu bwoko bw'ibihingwa bifasha umuryango kwiteza imbere. Abakerarugendo ndetse n'abandi bantu batandukanye, barabisura mu rwego rwo kureba uburyo bihingwamo.

Urusenda igihingwa kifashe gihingwa bifashisha mu gihe cyo kurya ibiribwa bitandukanye, benshi bakoresha urusenda rubatera kongera apeti bigatuma barya ibiryo bihagije ,urusenda ruragurishwa rukavamo amafaranga atunga umuryango neza ibindi bikorwa.

Umugore uri mu murima we, wahinzemo ibishyimbo, bigaragara ko ari mu gikorwa cyo kubibagara, ndetse no kubireberera mu buryo bwose, agamije kubikuramo umusaruro utubutse.

Mu isoko ry'ibirayi, aho dusanga ubwoko bwinshi bw'ibirayi bitandukanye, ugahahamo ibikunogeye bijyanye n'ubwoko wumva ukeneye.

Inyanya ni urubuto rwifashishwa mu biryo mu guteka ibiryo ,ruratekwa cyangwa rukaribwa ari rubisi ,kuko aho hose rurakora rwongera intungamubiri mu buzima bwa muntu kurukoresheje.

pavuro ubwoko bw'ibirungo by'ibiryo, pavuro yifashishwa mu buryo bwo guhumuza ibiryo ndetse no kongera intungamubiri mu ifunguro ,ukosoma pavuro ku ku kuyirya birafasha ndetse kandi bituma ibiryo bigira isura nziza bikanasa neza.

Wotameloni , wotameloni ni urubuto rwe rukunzwe rukundwa cyane rukunda kwera ahantu hashuha, rwera k'uruyuzi rurandaranda rushobora no guhemberwa. Imbuto zarwo iyo zisaruwe ziraribwa cyangwa se zikajyanwa mu isoko zigakurwamo amafaranga akora ibindi bintu by'ingirakamaro.

Ubunyobwa, igihingwa ngandurarugo cyifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Ubunyobwa bari gutunganya kugira ngo bubashe gukoreshwa, mu buryo bushobora kwifashishwa babukaranga bakabuhekenya, cyangwa bakabukuramo ifarini ikoreshwa mu biryo.

Iyi ni imyumbati isaruwe bakuye mu murima ariko igifashe ku ruti rwayo.

Umubyeyi uri mu murima gw'ibishyimbo，uri kubagara cyangwa se gukura ibibabi ku bishyimbo， mu rwego rwo kugira ngo byere neza.

Mu buhinzi bw'imputo za marakuja, umurima ndetse urimo na nyirawo, arimo gusarura imbuto z'amatunda.

Imbuto ziribwa zizwi ku izina rya avoka. Ni imbuto nziza cyane, zikungahaye ku mavuta kandi zituma ubuzima bwa muntu, kuwazikoresheje ubuzima bwe bugenda neza.

Umurima utunganyijwe neza, bigaragara ko utewemo imbuto zitandukanye zizatanga cyangwa zatanga umusaruro utandukanye.

Ubuhunikiro bw'ibigori ni ahantu hagenewe guhunikwa umusaruro utumye neza, aho uwo musaruro bawuhashyira mu buryo butondetse neza, ukagenda wuma kugeza ku rwego rukenewe. Ukazahavanwa ujyanwa aho wagenewe gukurwamo ifarini.

Umurima w'amashaza aho muntu ari gusarura amashaza akiri mabisi agamije kuyatonora akayateka cyangwa akayabyazamo amafaranga amufasha gukemura ibindi bibazo. Amashaza mabisi yitwa urunyogwe.

Igihingwa cy'amasaka ari mu murima atarera .Amasaka nigihingwa gihingwamubutaka kikagenda gikura buhoro buhoro bikazarangira cyeza ubu amazegusandura azanye ubusage bategereje ko ahinduka umutuku akazabona gusarura.

Amasaka amaze gusarurwa ashobora kubikwa akazakurwamo imbuto bazakoresha mu gihe cy'ihinga n'ubundi izatanga umusaruro w'amasaka.

Umusaruro w'ibishimbo uhambiriye ku gare, uri gukurwa mu murima aho ibi bishimbo byahinzwe, werekeza kwanikwa k'uwari wabihinze.

Amashaza ari mu gikoresho cyo mu rugo twifashisha buri munsi. Ayo mashaza akoreshwa mu buryo bwinshi turayateka tukaba twayifashisha nanone dukora ibikoma.

Umurima uteguwe neza uteyemo imbuto harimo uburyo bwo kubona amazi, bashyizeho gahunda yo kubona amazi mu gihe c'izuba. Mu gihe c'izuba iyo rivuye ibihingwa ntabwo byuma bibobezwa n'amazi bashizemo.

Imbuto z'amashaza yumye. Amashaza yumye ni igihingwa gihingwa mu butaka, kikabungwabungwa mu gihe cyagenwe. Baracumisha kikavamwo amashaza yumye. Aya rero ni amashaza yumye, bayakoresha mu buryo bwo guteka, agira akamaro muzima bw'umuntu.

Ikinyampeke kizwi ku izina ry'ubunyobwa. Ubunyobwa ni ikinyampeke kivamo ifarini iryoha cyane kandi yifashishwa mu biribwa by'ubwoko bwinshi. Ni ciza kuko gikungahaye ku ntungamubiri, zishobora gutuma twe ubuzima bwa muntu bugenda neza.

Umuhinzi uri kwanika umusaruro w'ubunyobwa, kugira ngo uzatonorwe uvemo impeke impeke zivemo ifarini yifashishwa mu guteka mu kuyiteka ndetse ikaba yanagurishwa, igatanga amafaranga afasha afasha umuryango.

Umufuka urimo ifumbire y'imvaruganda ,ariko hakabone hari n'umuntu werekana ubwoko bw'iyo mvaruganda ndetse n'ico imaze.

Umusaruro w'ibinyampeke utangiye kumerera aho wabitswe, ushobora guterwa cangwa se ukanikwa, ukavamo izindi ngemwe cyanga se ifarini.

Inzu izwi ku izina ry'ubuhunikiro, yagenewe kwanikwamo umusaruro w'ibigori, mu rwego rwo kugira ngo ibigori byume neza bizabone guhungurwa.

Amahundo y'ibigori. Ibigori ni igihingwa ngandurarugo gitanga ifarine hifashishwamo ibintu bitandukanye aho ibigori bisangwamo amoko menshi. Hari ibigaragaraba bifite amabara, hari n'ibigaragara bidafite amabara ariko byose bikoreshwa kimwe.

Aha ni umurima uhinzemo, bahingamo ibihwagari. Ibi ni ibihwagari tubona bihinze mu murima.

Ibinyampeke bihunitse mu mufuka byasaruwe. Bivamo ifarini itandukanye yifashishwa mu buzima bwa muntu bwa buri munsi.

Umusaruro w'ibinyampeke wanitswe wumye. Ibinyampeke bidufasha kubona ifu itandukanye twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umusaruro w'amasaka uzwi ku izina ry amahundo utegereje gutunganywa ukurwemo ifarini yifashishwa mu bikoma cyangwa se mu bundi buryo.

Imbuto y'ibishyimbo ifunze neza mu mapaki yabugenewe, aho izi ari imbuto z'indobanure ziba zatoranijwe kugira ngo zizifashishwe mu buhinzi zitange umusaruro ushyitse.

Umugabo uri mu mpeke urimo azipima mu buryo bwa gakondo, aho ari kuzirenga mu gikoresho cyagenewe kwifashishwa, mu gihe cyo kumenya ingano y'izi mpeke uko zingana.

Umusaruro w'ubunyobwa butaratonorwa aho umuhinzi w'ubunyobwa avuye mu bwanikiro aho yanitse uwo musaruro, agiye kuwutonora ngo utungane neza ugurishwe.

Ibishimbo by'imbuto ndende bihinze mu murima ndetse bishingirije ibiti byagenewe kugira ngo bizamukireho, maze bibashe gutanga umusaruro ushimishije.

Umusaruro w'ibishimbo uri mu ngorofani utegerejwe kujyanwa aho wagenewe guhunikwa .

Umusaruro w'amashaza aho yafashwe nabi ntiyanikwe ku gihe none akaba atangiye kumera aho kumerera aho yahunitswe.

Umusaruro w' ibigori uri mu bwanikiro aho wagenewe kumishirizwa, ibigori ni igihingwa ciza cane, gitanga ifu ishobora kwifashishwa hakorwa ibikoma imitsima ndetse n'ibindi.

Umusaruro w'ibigori, aho tubona uwo musaruro uhunitswe ahantu hagenewe gushyirwa ibi bigori kugirango ngo byume neza, bizahungurwe byumye bityo ifarini yabyo izabikwe igihe kirekire.

Ingurube iri mu kiraro cyayo iraryamye. Ibyana byayo biri konka ndetse na nyirayo ari gufasha ibibwana byayo, ko konka kubwagaguza kuri nyina.

Ubuvuzi bw'amatungo, aho abaganga b'amatungo bari kuvura itungo rizwi ku izina ry'mbwa, barwanya uburwayi bwaryo ubwo aribwo bwose, hagamijwe kugira ngo igire ubuzima bwiza.

Ingurube ziri mu kiraro. Ubusanzwe ingurube ni itungo ryororerwa mu rugo ritanga ifumbire, rigatanga inyama, rigatanga n'amafaranga afasha mu iterambere ry'umuryango uyoroye.

Umugore ari iwe mu rugo aragaburira amatungo, aho mu rwego rwo kugira ngo amatungo adasandaguza ubwatsi ari kuziha, ari kubuzirika hejuru ku giti kugira ngo ziburye mu buryo bunoze.

Mu caro aho umworozi ari mu matungo magufi ,yewe arimo inkoko, arimo n'ihene ziziritse iruhande rw'ikiraro, inkoko zirimo ziratora bitandukanye na nyirazo arimo azireberera.

Inkwavu amatungo magufi yororerwa mu rugo agatanga umusaruro uhagije, haba mu bukungu bw'urugo, haba kuzikoresha nk'inyama zirebwa, haba gukoresha ifumbire zitanga. Ni itungo ryiza ryizihiye urugo.

Intama intama nyinshi nayo ni ubwoko bw'amatungo magufi wbororeraga mu rugo atanga ifumbire agatanga inyama abantu bajaga ndetse kandi aragurishwa akaba yavamo amafaranga akore ibindi bikorwa bitandukanye bishira umuryango mu iterambere.

Ubworozi bw'inkwavu, aho muganga w'amatungo yasuye inkwavu zororerwa mu biraro, agenzura neza cyangwa azivura uburwayi butandukanye, kugira ngo ubuzima bwazo bumere neza.

Umuganga w'amatungo, asuzuma uko inka imeze agamije kureba niba nta kibazo kidasanzwe yaba ifite, kugira ngo ayiteho.

Ubworozi bw'intama, intama ni itungo rigufi ryororerwa mu rugo, ritanga ifumbire ndetse rikaba rishobora no kuribwa, ni itungo rikunzwe cyane rikunda kuba ahantu hakonja.

Inkwavu inkwavu ni amatungo magufi yororerwa mu rugo akaba atanga umusaruro utandukanye, ndetse n'ubukungu mu rugo aho ashobora kuribwa nk'inyama cyangwa akagurishwa, agatanga amafaranga yifashishwa mu iterambere ry'umuryango.

Umuganga w'amatungo asuzuma itungo agamije kurivura uburwayi ryarwaye.

Ubworozi bw'inkoko, inkoko ziri mu cari cazo. Mu cari harimo ibikoresho bitandukanye bituma zibasha kumererwa neza, kubona akayaga n'ibindi.

Itungo ryororerwa mu rugo rizwi ku izina ry'inka inka n'inyamaswa itanga umusaruro mwiza utandukanye aho bayikuramo amata ndetse n'amavuta igatanga inyama, ifumbire ndetse no kuyigurisha igatanga amafaranga.

Ubucuruzi bw'inyama zitukura. Ni ahantu habugenewe hahurizwa inyama zitandukanye, mu rwego rwo gufasha abahagana, kubona inyama mu buryo bworoshye kandi bwiza bwizewe.

Mu isoko ahagurishirizwa amatungo magufi, umuguzi uyo aguze itungo aritwara mu buryo ubona ko yishimye, n'umugurishije nawe asigara abara amafaranga bamuhaye agenzura neza ko amafaranga yuzuye.

Imishwi y'inkoko ni dukoko dutoya turi mu cyari turerwa tugakura tugatanga inyama, cyangwa zigatanga amafaranga yifashishwa mu muryango ashobora kuwufasha kubona iterambere ritandukanye.

Ubwoko bw'inyamaswa yo mu gasozi izwi ku izina ry'inyoni, aho inyoni ari ibarwa mu biguruka ikaba ishobora kuba yagenda kandi n'amaguru iyo igeze k'ubutaka.

Ahantu hazwi nka parike aho hororerwamo inyamaswa nyinshi zitandukanye. Zisurwa na ba mukerarugendo zikinjiza amadovize. Inkende ni utunyamaswa twiza duto tuba mu ishyamba dushimisha kutureba, ba mukerarugendo bakunda kureba cyane.

Igikona ni ubwoko bw'inyamaswa yo mu gasozi, kiguruka mu kirere ndetse kikaba gishobora kugendesha amaguru yacyo iyo kiguye ku butaka. Nticyona, nta cyangiza, ni igisiga kiyiza.

Inyamaswa yo mu gasozi izwi ku izina ry'uruvu, abenshi bakunda kuyita icyuma, iboneka mu byatsi amashyamba.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'ibiguruka iva mu ishyamba izwi ku izina ry'igisiga igisiga ninyamaswa ishobora gufata ibindi binyabuzima bikururuka hasi bikayitunga.

Igikona kiri mu bwoko bw'inyoni ziguruka mu kirere, kikaba ari inyoni yitonda itona iza mugihe cya rimwe na rimwe ntacyo yangiza.

Ubwoko bw'inyoni. Inyoni ni inyamaswa ziba mu gasozi cyangwa mu mashyamba, zikaba zikunda gusurwa na ba mukerarugendo zikinjiza amadovize mu Gihugu.

Inyamaswa zo mu ishyamba zizwi ku izina ry’ingagi. Ni inyamaswa zikunze kurebwa cane na ba mukerarugendo, bityo zikinjiza amadovize agirira akamaro abaturage bahaturiye ndetse n’ubukungu bw’igihugu muri rusange.

Inuma, inyamaswa yo mu gasozi ariko ishobora kororerwa mu rugo, aho itanga umusaruro ushimishije mu buryo bw'inyama cyangwa amagi yifashishwa mu mirire ya muntu ya buri munsi.

Inyamaswa yo mu gasozi，izwi ku izina ry'imbwa ya kizungu， aho ishobora kuba mu gasozi cyangwa ikaba murugo， igatozwa umuco wo kubana n'abantu itababangamiye.

Inyamaswa y'inyagasozi z'inyagasozi zizwi nk'impongo ziri muri parike aho ziba ziruhukiye cyangwa aho zibera. Impongo eshatu zirimo ziratembera muri parike.

Ubwoko bw'inkoko buzwi nka dendo, dendo ni itungo rigufi ryororerwa mu rugo ritanga amagi rikaribwa nk'inyama, rikagurishwa rigatanga amafaranga afasha umuryango kwiteza imbere.

Inyamaswa yo mu gasozi izwi ku izina ry'icyugu, aho ari inyamaswa itunzwe no kwihigira udukoko tuzwi ku izina ry'imibu tukayitunga.

Ubwoko bwinyoni ziguruka mu kirere iyi nyoni yitwa kagoma. Ibarirwa mu nyoni zidakunze kubonwa n'amaso, zidakunze kuboneka iboneka rimwe na rimwe.